Mu isoko ry'imodoka i Kigali hagaragara imodoka nyinshi zitandukanye ariko bagaragajemo imwe yo mu bwoko bwa kiya yakozwe bibiri na cumi na gatandatu. Ni otomakike iragurishwa igiciro cya miliyoni cumi na zirindwi.

Iyi modoka iri mu bwoko bwa toyota, kandi imeze nk'aho iparitse mu nzu kubera ko hasi hari amakaro. Ku nkuta hari irangi ry'umweru, iyi modoka ndabona ifite ibirahuri bya fime.